MTN ni umuyoboro mwiza kandi wizewe aho usanga abaturage benshi bakunze kuwukoresha kugira ngo babashe kuvugana na bagenzi babo baba mu bindi bihugu bigiye bitandukanye.

Ni byiza ko ibigo byose byegereza serivisi abaturage kuko bibafasha gukora imirimo yabo neza, urugero nka Emutiyeni, yegereje abaturage serivisi zayo, bityo rero iyo umunyamuryango yagize ikibazo, ntabwo yagorwa no kubona serivisi.

Mu Rwanda ibigo byinshi bitanga serivisi zigiye zitandukanye byagiye bizegereza abaturage urugero nka MTN, uyisanga muri buri gace kose k'Igihugu bityo rero byorohera abanyamuryango kubona serivisi nziza uko babyifuza.

Dufite amahirwe mu rwanda, kuko usanga dufite amabanki agiye atandukanye, umuntu abasha kubitsaho amafaranga yiwe akaba yanabikuza. Urugero nka equity bank ibasha gufasha abantu kubitsa amafaranga yabo mu buryo bwihuse, kandi bakaba banayabona nta kibazo bahuye nacyo.

Ni byiza kuko serivisi zegereye abaturage aho usanga Airtel Money yaratwegereye ku buryo ushobora kugura amayinite cyangwa se kubitsa no kubikuza bitakugoye.

MTN ni umuyoboro wihuta kandi uhendutse, aho usanga abaturage benshi bakunze gukoresha MTN kubera ko ihendutse.

Mu gihe uri gukora akazi ugomba kwambara umwenda uranga ibyo ukora kuko bifasha ushaka kugusaba serivisi abona aho ahera akubaza.

MTN ni umuyoboro mwiza kandi uhendutse, usanga abaturage benshi ari wo muyoboro bakunze gukoresha mu bikorwa byabo bya buri munsi.

Umuyoboro wa Airtel na Tigo, wazanye uburyo bwo kubona ama inite mu buryo bwiza ndetse na poromosiyo zigiye zitandukanye.

Ni byiza ko twegerezwa serivisi zigiye zitandukanye kuko bidufasha gukora gahunda zacu neza, twatanga urugero nka MTN, yaraje itwegereza aba agenti bayo bityo rero iyo ushatse kugura amayinite n'ibindi bitandukanye, ubibona bitagoranye.

MTN ni umuyoboro mwiza kandi uhendutse, aho usanga Abanyarwanda hafi ya bose ari umurongo bakunze gukoresha kuko ubafasha kuvugana n'abandi bantu baba mu bihugu by'amahanga bityo amakuru bakayamenya mu buryo bwihuse.

Ni byiza ko abayobozi bahagarariye ibigo by'imari cyangwa se amakoperative, bahuriza hamwe bakaganira ku bintu bigiye bitandukanye, harimo uko binjiza amafaranga, ndetse'uko bayasohora n'uburyo bagomba kuyakoreshamo.

Ese wari uzi ko iyo abayobozi bahuriye hamwe, baganira byinshi bifite akamaro bityo rero bakabasha no gukemura ibibazo bigiye bitandukanye biri mu buyobozi bwabo.

Ni byiza ko abayobozi bagomba gutanga ikiganiro ku bintu bigiye bitandukanye, kuko bifasha abaturage kumva ko bafite ababavuganira.

Byibuze se wari uzi ko iyo wakoze neza, ukagaragaza ishusho nziza, ugatsinda, bigufasha guhabwa ishimwe, rimwe na rimwe ukaba watwara n'igikombe.

Mu Rwanda usanga ahantu henshi hari SACCO kuko buri Murenge wose uba ugomba kuba uyifite kugira ngo byorohereze abaturage kubitsa ndetse no kubikuza amafaranga yabo bitabagoye.

Mu Rwanda haje amakoperative agiye atandukanye, afasha abaturage, kubona amafaranga igihe bayakeneye cyangwa se igihe bagize ikibazo cyihutirwa.

Tugomba kurya indyo yuzuye mu buzima bwa buri munsi, kuko ifasha umubiri wacu gukomera ndetse bigatuma tubaho dufite ubuzima buzira umuze.

Ni byiza kwishyira hamwe kugira ngo tubashe kwiteza imbere. Ugasanga duhinze imiteja turenze abantu babiri ibi biba ari amahirwe kuri twe ndetse n'igihugu cyacu.

Ni byiza ko ahantu hahurira abantu benshi, bari kunywa cyangwa se kurya hagomba kuba hasukuye, hari intebe nziza ndetse n'ibyo banywa bikaba bisukuye bifite ubuziranenge.

Ni byiza kugera ahantu abantu bahurira bagasangira, bakishima, bakabyina ndetse bakumva banezerewe.

Rimwe na rimwe iyo abantu bananiwe, baba bakeneye kujya ahantu babasusurutsa, bagashobora kugaruka muri mudu nziza, rero niyo mpamvu habaho amabare, kuko afasha abo bantu gusangira ndetse no kwisanzura.

Mu rwanda hari inzu nyinshi zigiye zitandukanye, abantu babasha gusohokeramo bakajya kwidagadura, bakanywa, bakanarya, ibintu byinshi bigiye bitandukanye.

Mu gihe wumva unaniwe ni byiza ko wajya kunywa bitewe n'ibyo ukunda kuko bigufasha kuruhuka mu mutwe ndetse no kumva ko ubuzima bwawe ari bwiza, bityo bu ukabaho mu buzima burambye.

Kugira aho umuntu asohokera ni byiza akaba yafata icyo kunywa ndetse n'icyo kurya kuko bimufasha kuruhuka, kugabanya siteresi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ni byiza ko twakora ubucuruzi bugiye butandukanye, urugero nko gushinga iduka ukajya ucururizamo amavuta ndetse ibintu byose bikenerwa mu buzima bwa buri munsi, bityo rero bigufasha gutera imbere.

Ese wari ubizi ko iyo ushaka kwiteza imbere, uhera ku bintu bike bike, bityo bikagenda bikura bizamuka, ugashobora kwiteza imbere ugashinga botike ikomeye mu gihugu?

Ni byiza kwihangira imirimo ushobora gufungura botike irimo ibintu bike by'ibanze nk'amamesa, umunyu, indagara, cyangwa se ibindi, ibi bikagufasha kwiteza imbere.

Birakwiye ko twakwihangira imirimo, ushobora gutangira ucuruza ibintu biringaniye muri butike, bikarangira ugeze ku musaruro w'ibintu byinshi bigiye bitandukanye.

Botike ni ingenzi cyane ku buzima bwacu bwa buri munsi, usanga harimo ibikoresho bigiye bitandukanye, dukenera umunsi ku wundi, ni muri urwo rwego ko twihangira imirimo, tuzana za botike zigiye zitandukanye kugira ngo twiteze imbere.

Usanga amabotike agiye atandukanye harimo ibintu bidufasha umunsi ku wundi aho dusangamo amakayi, umunyu, fanta, saladini ndetse n'ibindi.

Ese wari uziko ushobora kwihangira umurimo wo kujya utanga amagi mu turere tugiye dutandukanye tw'igihugu? Ni muri urwo rwego nta muntu mu Rwanda ukwiye kubura umurimo akora, kuko buri murimo wose waguteza imbere.

Dufite amahirwe mu rwanda, aho usanga bafasha insengero zituzuye neza kuba bakongeramo ibibura kugira ngo abantu babashe kubona aho basengera heza kandi hizewe.

Ni byiza kujya gusenga, ugahura n'abandi bakirisitu bagenzi bawe kuko bigufasha kwishima no kumva utuje bityo rero bikagufasha kubaho neza kandi uhorana umunezero.

Gusenga bitwegereza Imana, tukayitura ibibazo byacu bityo rero tukabasha kuruhuka muri urwo rwego rero abayobora uwo muhango wo gusenga bagomba kuba bambaye imyenda isa kugira ngo abantu bashobore kubatandukanya n'abandi.

Ni byiza kugira insengero dusengeramo, kuko bidufasha kwiyegereza Imana ndetse no kuyiha icyubahiro.

Gusenga ni byiza kuko bifasha abakirisitu kwegera Imana bityo rero abapadiri bafasha abakirisitu kwiyumvisha ko Imana ari umucunguzi kandi yaje ku isi kugira ngo aducungure.

Gusenga ni ingenzi mu buzima kuko bifasha abantu kubaho bumva ko begereye Imana bityo rero kugira ababwiriza, ni nziza cyane kuko bidufasha kwereka Imana ibibazo byacu nayo ikabasha kudusubiza.

Ni byiza ko abantu bagomba guhurira hamwe bagasenga, bakiyambaza Imana, bakayitura ibibazo byabo ndetse na yo ikabafasha.

Ni byiza ko abantu bagomba guhurira ahantu runaka cyangwa se mu rusengero bagasenga, bakaramya ndetse imana ikumva ibyifuzo byabo.

Ni ngombwa ko buri hoteri igomba kuba ifite inyubako nziza igaragara, kandi ari nini, kuko iba igomba kwakira umubare w'abantu benshi baza bayigana.

Tugomba kurya indyo yuzuye kuko bifasha umubiri wacu kumva umeze neza ndetse ufite n'imbaraga.

Mu Rwanda dufite amahoteli menshi agiye atandukanye, aho usanga imiryango igenda isura ayo mahoteli, kugira ngo babashe kwishima nk'umuryango.

Mu Rwanda haje uburyo bwiza, aho usanga amahoteli afite ibyumba abantu babasha kuraramo igihe aho bari bagiye habaye kure.

Mu mahoteri ni byiza ko bagomba kugira uburiri bwiza, bushashe neza, bufite imisego ndetse ku buryo umuntu uwo ari we wese yabubona yakwifuza kuburyamaho.

Ni byiza ko buri buriri bugomba kuba bufite inzitiramibu kuko iyo uraye mu nzitiramibu ikurinda kurwara indwara ya Malariya bityo rero tugashishikariza amahoteli kugira ibitanda ndetse n'inzitiramibu.

Ni ngombwa ko buri hoteri igira ibyumba byo kuraramo bisukuye kuko bifasha abakiriya bayo kubona ko bafite hoteri ibitaho.

Ni byiza kugira uburiri busukuye neza bwo kuryamaho ndetse n'inzitiramibu, ibyo byose bifasha umuntu waharyamye kumva ameze neza, bityo rero akabaho ubuzima buzira umuze.

Usanga amahoteri agiye atandukanye agira amacumbi abasha gufasha abaturage benshi, igihe bafite urugendo runini, biba ngombwa ko barara muri aya macumbi.

Ni byiza ko buri hoteri igira ahantu hihariye ho gufatira akayaga, bityo rero mu gihe umuntu yananiwe adashaka kuryama agomba kuhajya akaruhukira.

U Rwanda rwateye imbere, aho usanga rufite amahote igiye atandukanye, ibigo bigiye bitandukanye ndetse n'imihanda myiza. Ibi bigatuma u Rwanda rugira isura nziza kandi runakomeza kwimakaza isuku.

Ni byiza ko tugira amasoko duhahiramo ibintu bigiye bitandukanye, harimo imyenda, ibiribwa, ndetse n'ibindi.

Ni byiza ko iyo uri umucuruzi ukazana udushya muri Business yawe harimo nko kuririmbira abakiriya bituma ubakurura ndetse bakaza kukugurira ari benshi.

Akarere ka Nyabihu bakunze guhinga imyumbati. Aho usanga imara igihe kinini bayanitse, nyuma bakajya kuyibetesha, bagakuramo ifu y'ubugari.

Ni byiza ko tugomba kujya ku isoko guhaha ifu, umuceri n'amavuta ndetse n'ibindi bitandukanye, kuko bidufasha kubaho mu buzima bwa buri munsi.

Mu gihe twumva dushonje, dushaka ibyo kurya, ni byiza ko twagana, amasoko, tugahaha byinshi bigiye bitandukanye bityo rero tugashobora, kwihaza.

Ni byiza ko tugira amasoko duhahiramo kuko bidufasha kubona imyambaro ndetse n'ibindi byose bidufasha kwikingira imbeho ndetse iyo twanagurishije tugakuramo amafaranga tukabasha kwiteza imbere.

Ni byiza ko buri funguro rya buri munsi hagomba kubonekaho imboga zigiye zitandukanye, urugero intoryi, karoti ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye kuko bifasha umubiri kugira ubuzima bwiza.

Mu Rwanda haje uburyo bwiza mu masoko agiye atandukanye, aho umuntu ajya mu isoko akagura imyenda ihendutse ijyanye nuko yifite.

Guhinga ibigori ni byiza cyane kuko umusaruro wabyo ushobora kuwujyana ku mashini bakaba bawukuramo cyangwa bakawutunganya hakavamo ifu abantu bifashisha.

Mu rwanda dufite amasoko ashobora gusangamo inkweto, ibiribwa, bihendutse, ibi bikorohera abantu kuba babasha kubona ibikoresho bakeneye ku mafaranga make.

Ni byiza ko iyo wagiye ku isoko ugomba guhaha ibyo ushaka kuko ibyinshi biba bihari kandi ugahaha ibikunogeye bibereye amaso n'u mutima.

U Rwanda rufite amaresitora menshi agiye atandukanye aho usanga abantu babasha kujya gufatirayo ibyorya ndetse n'ibyo kunywa.

Ni byiza ko twagira ahantu dukorera inama kuko bifasha abayobozi gutegura neza imishinga yabo yafasha abaturage mu kwiteza imbere.

Ni ngombwa ko twagira ahantu hihariye ho kurira, hafite isuku ndetse hanakeye, kuko birinda ubuzima bwacu guhura n'indwara zigiye zitandukanye.

Moto ni ikinyabiziga gikunze gukoreshwa mu Turere dutandukanye tw'u Rwanda, aho usanga abantu benshi bakunze gutega moto kugira ngo bagere aho bagiye vuba.

Ikinyabiziga cya moto ni ikinyabiziga cyiza kibasha gutwara abantu mu buryo bwizewe kandi bwihuse, ni muri urwo rwego ko dukwiye kujya dutega moto kugira ngo tugere aho tugiye vuba.

Ni byiza kugenda ku igare kuko byunganira umuntu iyo adafite amafaranga yo gutega moto cyangwa se imodoka akoresha igare bityo rero akagera aho ari kujya vuba byihuse.

Ni byiza ko iyo umumotari ari mu muhanda agomba kwambika umugenzi kasike y'ubwirinzi kugira ngo nakora impanuka abone ukuntu yakirinda.

Moto ni ikinyabiziga cyiza kandi gihendutse, usanga abantu benshi, bakunze gukoresha moto kugira ngo bagere aho bagiye, mu gihe gitoya kandi bitabahenze.

Ni byiza ko iyo muntu uri kugenda ku igare cyangwa kuri moto, agomba kugenda mu ruhande rw'iwe mu muhanda kuko bimufasha kwirinda impanuka zitunguranye.